Ifoto igaragaza umuforomo cyangwa umuganga ari kumva uko umwana ameze mu nda y'umubyeyi we bigaragara ko yari atwite uwo mubyeyi.